Ibi bikorwa bimwe na bimwe muri rusange abantu bose bakenera, nka serivisi zitandukanye serivise za eyateli, serivise za emutiyene serivise ni serivise buri muntu wese yakenera, izi serivise n'ingirakamaro tuba tugomba kuzitaho rero tukazifata neza tukirinda kuba twabangamira nk'abantu bazikora tukazuba.

Hari serivisi buri muturarwanda wese cyangwa se buri muntu wese yemerewe kuba yabona urugero nka serivisi za mtn buri muturage wese afite uburenganzira bwo kubona iyo serivisi igihe ayikeneye ntago rero nta muntu wemerewe guhezwa umuntu igihe aje gushaka iyo serivisi ugomba kuyimuha kandi neza.

Serivisi rusange nazo ni ingenzi, ubwo rero ahantu hari serivisi haba hagomba kuba hari ibirango byinshi bihagaragaza, ku buryo umuntu uje gushaka serivisi ahita amenya icyo bakorera aha hantu, atabanje kubaririza wenda bakandikaho nk'ibyo bakora cyangwa se ibikorerwa muri iyo nzu.

Abakozi b'ikigo runaka cyangwa se abakozi, buri mukozi wese bitewe n'akazi akora aba agomba kugira ikirango kimuranga. Urugero nk'abakozi ba Airtel agomba kuba afite ijire imuranga ko ari umukozi wayo n'ibindi birango byose ku buryo umuntu ukeneye iyo serivisi bitamusaba kubanza yabaririza ahita abimenya mu buryo bworoshye.

Abantu bacuruza amanite bakabikururiza abantu kandi bakaba bigira nabo ni ingenzi cyane kuko hari igihe umuntu aba akeneye amafaranga ntiyirirwe akora urugendo rwa kure ahubwo akajya kuraba abagenti bakamubikurira bitagoranye cyangwa yaba ashaka koherezamo amafaranga akamugiraho mu buryo bworoshye.

Hari serivisi umuturage wese yemerewe: nko kuba umuturage wese yaba afite uburenganzira bwo kuba yagura amayinite. Ni igihe abonye umu ajenti ahantu ashobora kugenda akagura amayinite kandi ibi nabyo bigira akamaro kuko byinjiriza ababikora kandi bikanatuma n'abantu babona izo serivisi mu buryo bwihuse.

Gukorera hamwe bifasha abahinzi kuzamurana, n'ufite intege nke bakamuzamura, nawe akagira aho yigeza, akaba yanazigama ku bivuye muri koperative, bityo bikazamuteza imbere mu gihe kizaza. Buri muntu wese namukangurira kujya yifatanya n'abandi mu bintu by'ubuhinzi, kuko bishobora gutuma nawe azamuka akagira aho agera.

Gukorera hamwe ni ingirakamaro kubera ko bituma mwiteza imbere kandi mu buryo bwihuse. Mbese mukagera ku iterambere mu buryo butagoranye. Ugatera imbere vuba vuba kandi nyine kubera ko mushyira hamwe ibitekerezo, mugakorera hamwe, mugatera imbere mu buryo bwihuse.

Abakozi b'amabanki cyangwa bo muri koperative baba bagomba kugira isuku, bakambara neza bakagaragara neza ku buryo mbese baba bafite disipurine uwubareba akavuga ati" aba bantu ni abakozi bafite icyerekezo". Igihe rero nawe wifuza kuba wakora akazi nk'ako uba ugomba kubigana ukagira isuku.

Igihe ufite amafaranga kubika muri banki cyangwa se, ugafatanya n'abandi mugakora koperative mugakusanya imigabane mugakorera hamwe, bituma mutera imbere vuba byihuse kandi mukazanabona n'inyungu nini ihagije. Gukorera mu makoperative rero ni byiza cyane ku bantu bose.

Gukorera hamwe abahinzi bagakorera mu makoperative wenda bagahinga ibijyanye n'imbuto noneho izo mbuto igihe zeze bakazisarura bakazijyana ku masoko bakagabana amafaranga bituma bose bateranye inkunga yaba ufite intege nyinshi bagateranya inkunga bose bagatera imbere.

Gukorera hamwe kw'abaturage bibafasha gutera imbere mu buryo bwihuse kandi bose bakazamurana bakagera ku rwego bifuza bakabona n'umusaruro mwiza, nashishikariza buri muturage rero wese rero kugana mu makoperative bagakorera hamwe kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Ni iby'ingenzi ko dukoresha amakoperative. Hari abantu benshi bagiye bakoresha koperative, bakatubwira ibyiza baboneyemo inyungu bakuyemo, ese ukumva bateye imbere, rero ni iby'ingenzi ko natwe dushishikarira gukoresha amakoperative kubera ko adufasha gutera imbere mu buryo bwihuse, kandi tutavunitse tugahita twihuta mu iterambere.

Iyo abaturage bafashe imigabane yabo bakayishyira hamwe bagakorera hamwe, bituma batera imbere kandi bagatera imbere byihuse kandi vuba vuba bigatuma, bigatuma kandi bose bafashanya ufite intege nke akazamura undi, mbese bose bakazamurana bakagera ku rwego bifuza.

Dukenera ahantu ho gusohokera igihe twananiwe dushaka kwishimisha, dushaka gushimisha inshuti zacu, tukasohokera tugafata icyo kunywa cyangwa se tugafata icyo kurya, bakaruhukira bingira akamaro cyane. Aho hantu haba ari heza kubera ko ushaka kubona rero ukaba wagasubira mu kazi umeze neza kugira ukore neza.

Ahantu bita amabare, amabare nyine zo gusohokeramo, zo kwishimishiriza, zo kunyweramo, zo kuriramo, zo kubyiniramo, aha ni ahantu nyine umuntu ashobora gusohokana n'umuntu we nyine akamushimishirizamo bakanywa, bakarya, aha ni ahantu heza cyane.

Aho amazu cyangwa se ahantu haba ibyo kunywa wajya kwiyakirira ujyanye n'inshuti zawe cyangwa se wowe ubwawe ukahiyakirira, ugafata icyo gufata, icyo kurya ukaharuhukira ukahishimishiriza n'inshuti zawe aho hantu rero aba ari heza cyane kubera ko hagufasha kuruhura ubwonko mbese!

Inyubako ziba zubatse zaragenewe kuruhukiramo cyangwa se gusohokeramo harimo ubusitani bwiza ushobora kuba wakicara mukaganiriramo n'umuntu, aho hantu ushobora kuhajyana n'inshuti zawe, cyangwa se ukahajyana n'umukunzi wawe, mukahaganirira mwarangiza mugataha.

Ayo abantu mushaka gusangwa nibinyobwa nyine iki waba ushaka nk'icyo kunywa cyangwa se ushaka kuharuhukira cyangwa se wajyana n'inshuti yawe mukishima nyine mukanywa mukarya birafasha cyane bituma ubwonko nyine bwaguka ugakora neza byagusubijwe.

Ushobora kwishingira, kwishingira inzu yawe noneho ukayicururizamo ibintu runaka ugakora aka botike ugacururizamo ibintu bigiye bitandukanye byaba ibyo kurya, byaba ibitaribyo kurya, ibyo kurya kugira ngo wihangire umurimo ushake amafaranga mu buryo bworoheje butagoranye noneho abantu barangiza bakakugana bakagura ibyo bakeneye ukabona amafaranga.

Gushyira ibicuruzwa hanze ahagaragara aho buri wese ashobora kunyura agahita abona ko mucuruza ikintu runaka nkabyo ni ingenzi cyane kuko bifasha abakiriya kandi bikanabakurura mu buryo umuntu iyo ahanyuze ahita abona icyo umucuruza yaba aricyo ashaka, ntibibe ngombwa ko yigora arabaririza agahita aza akagura ikintu yari akeneye.

Ubucuruzi nabwo ni kimwe mu bigize gahunda yo kwiteza imbere, iyo umuntu ashaka kwihangira imirimo ushobora kureba ahantu hakunda kugera abantu benshi ukahashinga botike ugacuruza ibintu bigiye gutandukanye byaba ibyorya, ibyo kunywa, mbese nyine ibintu bigiye bitandukanya abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi ukabasha kubona amafaranga agufasha kwiteza imbere.

Dudushobora gucuruza ibintu bitandukanye, tugafata nk'inzu runaka tukayigira iy'ubucuruzi, kugira ngo tubone amafaranga. Kandi bigatuma n'abantu bakeneye ibyo bintu turi gucuruza babibona vuba, bakabibona mu buryo bwihuse kandi bakabibonera hafi, bigatuma twese dukomeza gutera imbere.

Abantu bakora umwuga w'ubucuruzi baba bagomba gushyira ibicuruzwa byabo aho buri mukiriya arahanyura agahita abibona kandi byaba ngombwa bagashyiraho igiciro cya buri bicuruzwa kugira ngo umuntu ahite abona amafaranga agomba gutanga kuri buri kintu aguze, ubwo rero abo bantu na bo baba bagomba gukora ahantu hagaragara kandi bakahakorera isuku.

Ubucuruzi dukorera mu mabutike nabwo buduteza imbere cyane kubera koshi bitewe n'igicuruza ucuruza ibintu bitewe n'ibyo ubona muri ako gace bakeneyei ukaba aribyo ushyiramo muri butike bituma ubona abakiriya benshi kandi ubutike igatera imbere vuba vuba nyine ntuhombe.

Insengero, urusengero rugomba kubakwa ahantu, rukubakwa ahantu kure y'abaturage kugira ngo rutababangamira kandi nyine igihe bari gusenga ntibakoreshe indangururamajwi zirangurura cyane kuburyo byabangamira abaturage, ni byiza rero ko habaho insengengeraro kugira ngo abantu babone aho gusengera, begere imana.

Gusenga, gusenga ni byiza, iyo umuntu agiye gusenga yegera imana, akayibwira ibibazo afite, agahumurizwa kagabanyi ibibazo yari afite, niyo mpamvu buri muntu wese ari byiza ko agira aho abarizwa asengera kubera ko birafasha.

Ahantu ho gusengera tuba tugomba kuhubaha igihe duhari. Twagera mu rusengero tukirinda akavuyo tukahafata neza tukahakorera isuku. Mbese tukahitaho mu buryo bwose bushoboka kubera ko hari n'igihe ushobora no kuhakorera imihango y'ubukwe ariko yubahisha imana. Icyo bita gusezerana imbere y'imana. Aho rero uba ugomba kuhafata neza ukahitaho.

Gusenga ni byiza buri muntu wese agomba kugira ahantu asengera, abarizwa kubera ko gusenga biradufasha cyane. Bituma twegera imana tukayibwira ibibazo dufite ikadusubiza. Niyo mpamvu buri muntu aba agomba gushishikarira kugira idini abarizwamo cyangwa akagira ahantu asengera.

Kugira ngo ukore mu bintu bijyanye no guteka cyangwa se muri hoteli cyangwa se mu bijyanye n'imyuga, ugomba kuba ufite isuku, wakarabye intoki, udafite inzara ku buryo zajyamo imyanda ngo zigire ibyo zanduza, noneho kugira ngo utunganye ibyo kurya neza, n'ababirya babe batagira aho bahurira na mikorobe.

Baba ahantu nk'amahoteli cyangwa se n'izindi nyubako zitandukanye zishobora kudufasha kwiyakira gihe twaba twananiwe cyangwa se dushaka dushaka gushimisha inshuti zacu tukajyana nazo hantu none tuki.

Kuri hotel ni ahantu ushobora gusanga ahantu heza ho kuruhukira, birashobora kuba wagiyeyo ugiye kuruhukiramo cyangwa wajyanye na sheri wawe ugiye gutembera umuntu ashobora rero kumva munaniwe haba hariho icyumba cyo kujya kuryama ushobora kukibasaba bakakibaha mukajya kuryama mukaruhuka.

Abakozi bakora mu bintu bijyanye no gutegura amafunguro, baba bagomba kugira isuku, kugira ngo abaza kugura ibyo kurya nabo babone ko ari abantu bambaye neza, bamenye ko ibyo byo kurya nabyo byateguwe neza kandi bifite isuku. Ibyo bizatuma amahoteli abona abakiliya benshi, kandi ibyo bateguye aho ngaho bigendeke vuba, kandi n'ababirya bishimire isuku.

Ahantu hari hoteli, haba hari ikirango kikwereka ko ugiye kugera aho hantu hari hoteli. Igihe uri kugenda nk'ahantu utazi rero uba ugomba kureba ikirango cyaho wabona icyo kirango kiranga ko ari hoteli. Wahajya ukiyakirarirayo, ukaruhukirayo, ugafata icyo kunywa n'icyo kurya. Noneho warangiza umaze kuruhuka ugakomeza urugendo.

Hari ahantu haba hameze neza hateguye hasa neza hari ibyo kunywa, hari ibyo kurya. Amahoteri afasha abantu nyine kuruhuka kandi akanateza n' imbere abaturage kuko ba nyirayo binjiza amafaranga, gutanga akazi abakoramo, bigafasha abantu kubona aho baruhukira, kubona ibyo kurya, bakabona ibyo kunywa, nyine mbese ugasanga birafasha.

Amahoteri afasha abantu bashaka kwirangaza, kuruhuka, kwiyakira, kuko ubona ko aba ari ahantu heza ho kuba bajya, bagafata amafunguro, ibyo kunywa n'ibindi bintu bitandukanye, mu rwego rwo kwirangaza, ubwo rero izi nyubako ni ingenzi cyane kuko zifasha abantu batandukanye, zigatuma abantu babonamo akazi n'ibindi byinshi.

Hoteri ikunda kuba Iri ahantu hatuje. Ni ahantu hatuje ushobora gusohokera ukaharuhukira nk'igihe u maze igihe kinini mu kazi, cyangwa se wifuza gutemberana n'inshuti zawe mukahatembera hakagufasha kongera kuruhuka.

Hoteri ni ahantu abantu biyakirira, haba hari ibyokunywa byiza bitunganyije, byateguwe neza kandi bifite isuku, bitegurwa kandi n'abantu na bo babishoboye kandi na bo bifite isuku, ahantu rero umuntu ashobora kuhagana, igihe wenda yaba akeneye nk'icyo kurya cyangwa icyo kunywa cyangwa se yahasohokanye n'inshuti ze.

Amamoteli agira ahantu ushobora kuganirira n'umukunzi wawe muri mwenyine, cyangwa se no kwifata byananiye mukaba mwagira uko mwigenza bakabaha icyumba nk'iki kimeze neza kirimo inzitiramibu mukajya kuryama.

Amahoteli, Hotel cyangwa se n'ahandi hantu ushobora kuruhukira haba hari ibyo kurya, ibyo kunywa, aho kwicara hatuje, nta rusaku ruhari, hafasha abantu nko mu gihe wari umaze nk'igihe kirekire mu kazi ushobora kujya kuharuhukira, kugirango ngo uzasubire mu kazi wongera gutekereza neza.

Aha ni aho batekera ibyo kurya, cyangwa se bacumbikira abantu, hagomba kuba ari ahantu hateguwe neza, hari isuku, kandi hari ibikenewe byose kugira ngo umuntu uje ubagana atagira ikintu na kimwe ahaburira, hakaba hari amazi n'umuriro n'ibindi byangombwa umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi.

Hari ahantu haba hari ubusitani bwiza ushobora kuruhukira ukaba wa hicara n'umukunzi wawe cyangwa se igihe ufite ibibazo ukajya kuhicara hari akayaga hatuje kugira ngo ugabanye ibyo uri gutekereza kuri ibyo bibazo cyane, aho hantu rero tuba tugomba kuhagirira isuku tukahitaho tukahasigasira.

Ahantu haba hari inyubako abantu bashobora kujya gufatira amafunguro, cyangwa mu gihe bashaka kuruhuka abashaka nko gufata icyo kunywa, bafasha abantu cyane kuko hari igihe umuntu aba adafite amafunguro ateguwe, akaba yahajya akahafatira amafunguro ateguwe neza ubwo rero aha hantu haba hagomba gukorerwa isuku kugira ngo n'abakiriya bahaza babone ko bari kurya ibiryo bimeze.

Amahoteli, ni ingenzi cyane kuko hoteli zidufasha kubona ahantu dutemberera, waba unaniwe ukaharuhukira, ese ukahajyana inshuti yawe, mukiyakira mukabona icyo mushaka cyose kkuko habaye hari icyo kurya, icyo kunywa, byose biba bihari.

Amasoko afasha amasoko afasha abantu kubona ibintu bitandukanye. Ushobora kujya mu masoko ugiye gushaka ibyo kurya, cyangwa se ibyo kwambara, ese wowe ukajyamo ugiye gucuruzamo, ushaka kubona amafaranga. Amasoko ni ingirakamaro kuri buri muntu wese. Buri muntu wese isoko rimufitiye akamaro kandi rikanongera n'umushahara kuri gahunda.

Amasoko adufitiye akamaro kanini cyane, kubera ko atuma tubona ibyo dukeneye, kandi tukabibona mu buryo byihuse, tukabona imyambaro, ibyo kurya n'ibindi bintu by'ibanze, twaba dukeneye. Kandi bikanatanga n'amafaranga ku bakozi baba bakora muri ayo masoko, bacuruzamo, bigatuma batera imbere.

Amasoko ni ingirakamaro, mu masoko atuma dutera imbere, tugateza imbere ubucuruzi bwacu. Abantu bakeneye ibintu bakatugana cyangwa se ababishaka bikanateza imbere Leta kubera ko binyuze mu misoro. Imisoro amasoko asora ateza imbere Leta no neho bigatuma n'ibikorwaremezo Leta yagura na byo byiyongera bikaba byinshi.

Ubu bucuruzi bworoheje bwo mu dusantere nabwo ni ingenzi kuko bituma abantu bihangira uturimo tworoheje dutuma babona ibintu by'ibanze bakeneye kandi bifasha abaturage kubera ko bituma nk'igihe isoko ritaremye babona ibyo bakeneye hafi yabo. Ubwo rero ibi nabyo ni ingenzi cyane mu kwihangira imirimo.

Mu masosoko dushobora kubona mo imihini, imihini bayikoresha mu gukwikira amasuka kugira ngo bajye babona uko bayihingisha cyangwa se inkwi, ushobora kujya musoko ugiye gushaka ibyo byose, nabyo ni ingirakamaro kubera ko bituma ubona icyo gucana cyangwa ukabona icyo uhingisha.

Udusoko duto duciriritse, tuba ducuruza ibintu abantu bakunda kwikenera, dufasha abantu igihe atari ku munsi w'isoko, bakabona ibyo bakeneye hafi. Ubwo rero abantu baje guhahira aha hantu baba bagomba kunyura ahantu habugenewe, ntibangirize aho ibicuruzwa baba birambitse.

Hariho imirimo itandukanye bishobora kwihangirasha nk'ubucuruzi wicururiza nk'imyenda kugira ngo nyine ubona ukubaha kandi amasoko menshi agira akamaro kuko tubona aho duhahira gatuma abahanga amafaranga n'abakeneye kugira ibyo bahabwa bakabona aho babihahira bigatuma nyine buri wese abona icyo kintu kandi akakibaye mu buryo butamugoye cyane.

Igihe utwaye ikinyabiziga uba ugomba kwirinda ibintu byakurangaza, uba ugomba kwirinda kuvugira kuri telefone utwaye ikinyabiziga, ukirinda kuba warangara ahubwo uba ugomba kureba mu cyerekezo urimo ukirinda kurangarira ku rundi ruhande kugira ngo wirinde kuba watera impanuka cyangwa se ugateza abandi impanuka.

Abatwazi b'amagare nabo bagomba kugira parikingi yabo, bagomba kugira ahantu bahagarara hazwi, mu buryo bwo kurinda akavuyo mu muhanda, bakagira parikingi yabo izwi kugira ngo badateza impanuka zitateganyijwe.

Abatwara ibinyabiziga baba bagomba kubahiriza amabwiriza yose agenga abatwaye, haba kwambara igikasike ndetse n'umuntu batwaye akacyambara kandi mu gihe batwaye bakagendera ku muvuduko uringaniye kugira ngo bataza kwiteza impanuka kandi bakaziteza nabo batwaye. Kubahiriza aya mabwiriza aba ari ingenzi cyane.

Gutwara ikinyabiziga bisaba ko ubanza gushishoza kwambara kasike n'uwo atwaye akamwambika kasike kandi akagira amakenga mu buryo bwo kugabanya impanuka ziba mu muhanda, nyine buri wese bagomba kwambara impuzana kugira ngo kwambara kasike kugira ngo nyine ize kuba yarinda umutwe icya.

Ibinyabiziga igihe umuntu atwaye ikinyabiziga mu muhanda, aba agomba kugira amakenga kugira ngo adateza impanuka cyangwa ngo agire uwo atera impanuka. Aba agomba kugendana amakenga, akirinda kuba yakoresha telefone, akirinda kuba yarangara, ahubwo akagendera mu cyerekezo kimwe, mu buryo bwo kugabanya impanuka zibera mu mihanda.

Gutwara ibinyabiziga, abantu batwara ibinyabiziga baba bagomba gukurikiza amategeko y'imihanda bakanyura ahabugenewe kugirango badateza impanuka kandi bakagendera ku mabwiriza yose basabwa, ubwo rero ibi bizatuma impanuka ziba nkeya mu mihanda.

Igihe uri mu muhanda utwaye nk'inyabiziga wenda utwaye imodoka, ukabona wenda nk'imbere yawe haturutse moto ishobora kuba yagutanze imbere yawe, uba ugomba guhagarara iyo moto ikabanza yagenda wowe ukagenda inyuma imaze kurenga mu buryo bwo kugira ngo twirinde impanuka cyangwa tugabanye impanuka zibera mu mihanda.